Kwa muganga aho abarwayi benshi bahurira baje kwivuza cyangwa se bari abari mu bitaro, kwa muganga bamaze kwakira bagasanga bakeneye kuba uburwayi bwabo bwakurikiranwa bari mu bitaro.

Ibihingwa byamezemo ibyatsi bitandukanye ibyatsi bishobora kwifashishwa nk'imiti hifashishwa mu buvuzi gakondo.

Igihingwa cyifashishwa mu buvuzi gakondo. Ni igihingwa kivura indwara zitandukanye, kiratunganywa kikavura uburwayi butandukanye.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo aho icyatsi cy'umuravumba kifashishwa mu kuvura uburwayi bw'inkorora ndetse n'ibindi byatsi byifashishwa mu bundi buvuzi nk'uwakomeretse ufite igisebe n'ibindi.

Icyatsi cya cyimeza cyifashishwa nk'umuti, wifashishwa mu buvuzi gakondo, kivura indwara zitandukanye.

Igihingwa kizwi ku izina ry'amateke. Amateke ni igihingwa ngandurarugo gihingwa ahantu hatandukanye mu bice byose bimwe na bimwe byo muri aka karere ka Musanze. Cyifashishwa mu buryo butandukanye.

Ishyamba aho aho ishyamba ari ubwoko bw'ibiti bitandukanye, bishobora kwifashishwa mu buvuzi cyangwa bikifashishwa bicanwa mu ziko, cyangwa bakuramo amakara ashobora gufasha ababikoresha kwiyiteza imbere.

Ibyatsi bitandukanye byameze mu buryo bicucitse, ibi byatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo iyo bakora umuti w'ikinyarwanda, ushobora gufasha umuntu mu burwayi butandukanye.

Ikigori ciri mu muririma cyeze ariko kitarasarurwa. Ikigo buri ni urubuto rwiza cyane rwerera hejuru. Ikigori gikorwamo ibintu bitandukanye nk'amafarine yifashishwa bateka umutsima, cyangwa se bakagiteka cyonyine.

Igihingwa cy'amajeri kiri mu murima aho kitarera, kandi umurima urimo ibyatsi bitandukanye bishobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibyatsi bihenze ahantu bishobora gukoreshwa nk'imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo cyangwa bikifashishwa mu bundi buryo nko kuba byaba ubwatsi bw'amatungo.

Ibyatsi biri mu murima byifashishwa mu buvuzi gakondo ,aho bikurwamo imiti yo mu moko atandukanye afasha mu buzima bwa buri munsi bwa muntu.

Ibyatsi biri mu murima aho byameze bishobora kwifashishwa mu buryo bw'ubuvuzi gakondo, bikavamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Mu ishamba ry'ibiti bidakura ngo bibe binini, aho bishobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo cyangwa hakifashishwa indabo zabyo mu gutegura mu rugo, aho zifashishwa nk'umutako mwiza uryohera abasura umuryango teguyemo.